Icyokezo aho bashyira inyama ku mishito ukazotsa ,n' abantu baje bazishaka bakazibaha bakagenda bakazirya bari gushikura bakaryoherwa na byo.

Resitora aho abantu batandukanye baturutse ahantu hirya no hino baje kunezererwa, kurya, bakanywa harimo n'amata bari kwaka kugira barusheho gusa neza n'ibinyobwa kugira ngo abafite inyota nabo ishire.

Akabari bacururizagamo za pirimusi, za mitsingi, aho abantu baza baje kunywa ndetse bamwe bakahava basinze, abandi bakararamo bakica akanyota, bigatuma basusuruka.

Bare irimo intebe za sheze n'ameza, aho umuntu ashobora kuza gufata icyo kurya n'icyo kunywa, ndetse akaba yanahaganirira na mugenzi we.

Umugore w'inzobe wambaye amaherena ku matwi ge, uri kurya inyama z'inkoko zikatiye ho ibitunguru, ziteretse ku meza ateretse imbere ye, inyuma ye hariho akabati karimo amasahani g'amadongo n'ibikosi byibyuma,

Bale bacururizamo inzoga zitandukanye nka za mitsingi, pirimusi n'ubundi bwoko bwinshi. Aho abantu bazaza bayigana kugira ngo babonemo izo kunywa ndetse banaganiremo.

Akabari kari mu nzu ya mugongo wa tembo, aho hakikijwe n'indabo n'ibitoki, abantu bakaba bajyayo gufata icyo kunywa hariho na za esikariye zihazamuka n'igare riparitse hejuru.

Akabari karimo intebe n'ameza, n'amayoga ari muri za etajeri, n'izindi ziri mu makaziye na firigo yo kuzikonjesha, kugira umuntu wese wajya abagana abone ibyo yifuza.

Igikari cya resitora, aho abantu babiri baje kwicara ngo babe bumva amahumbezi ahari, hakaba hari ameza n'intebe zo kuganiriraraho, bose bakaba baje ahantu hatuje cyane.

Akabari karimo inzoga z'ubwoko butandukanye aho harimo umugore w'umuseriveri uri guha abakiriye buri muntu bigendanye n'ubwoko bw'inzoga ashaka harimo n'abo ari kuzishyirira mu kirahure.

Inzu y'igihanga igiye ifite imiryango ibiri gumwe bacururizagamo ifumbire n' umugabo uri imbere ufite igare. Ifite inkingi itatu na kandagira ukarabe iriho akadobo n'akabase imbere hariho n'ipoto.

Inzu y'igihanga ifite umuryango umwe bakoreramo kenkayoli, icuruza ibijyanye n'amazi, amashanyarazi n'ibikoresho by'ubwubatsi, ikaba yitwa Turaneza.

Farumasi bacururizagamo imiti y' amatungo, amagufi n' amaremare, harimo inkoko, ihene n' inka ndetse n' ibindi bikoresho byifashishwa mu guha amazi, ibyo bitungwa n' ibindi bya_ bitandukanye.

Inzu y'igihanga ifite amabara y'umuhondo ifite imiryango ibiri. Umwe ukoreramo mtn, banditseho konegiti shopu abantu bakaba baza bahagana bafite ibibazo bitandukanye bijyanye na mtn.

Iduka bacuruzamo ibijyanye n'imyenda y'abagore, amavuta, rikaba ryitwa j endi j beti hawuzi showu, ndetse rikaba rinadefiriza abakobwa.

Butike bacururizamo ibikoresho bitandukanye, harimo imyenda nk'imipira, amakanzu, ibitambaro, ndetse harimo na kizimyamoto yakwifashishwa igihe habaye inkongi y'umuriro.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo uhetse umugore, bafashe imifuka mu ntoki, hirya hariho inzu y'igihanga ifite imiryango itanu, n'inkingi eshanu, mu muryango umwe muri yo ukaba ufunguye, inyuma yayo hakaba hariyo inzu ya cadasitiri.

Iduka bacururizamo ibintu bitandukanye ryitwa Ambara uberwe. Ni ho habamo imyenda y'abagabo n'abagore, n'ibitambo ushobora kugenda ukadodeshamo umwambaro wifuza.

Akabari kitwa besiti peresi bare, aho abantu batandukanye baza, baje kugura ibinyobwa bigiye binyuranye, harimo n'inzoga, ndetse hakaba haba n'amacumbi, aho warara bukwiriyeho.

Icyapa kerekana ivuriro ryigenga, aho rifasha Leta mu bijyanye na serivisi z'ubuzima, abantu bafite ibibazo by'uburwayi bakahagana maze bakabona imiti yo kuborohereza uburwayi.

Inzu y'igihanga ifite umubara gw'umuhondo, iri hepfo yayo bifatanye ifite amabara g'ubururu, imwe yanditseho ibyiza shopu n'agatanda bacururizagaho, umugore uri hepfo wambaye bote wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umukara hasi bakaba batari bahapavoma sima akaba ari ibitaka.

Inzu ya etaje icururizwamo ibintu bitandukanye ikora nk'isoko, aho habamo ibikoresho bya elegitoronike, hakaba harimo na kenkayeri ibamo ibikoresho by'ubwubatsi.

Isoko rusange bacururizamo imbuto, harimo wotameloni, amaronji, imineke, indimu, n'ibindi bintu bitandukanye, aho abantu baza baje kugura, kugira ngo bajye kwitungira amagara mazima.

Inzu y'igihanga imbere haparitse imodoka ,n'umumotari ufashe telefone mu ntoki ,n'ibipupe bambitse imyenda, kugira abakiriya baze kuyibona neza bayigure, n'inzu bacururizamo imyambaro igiye itandukanye.

Butike bacururizamo ibikomo, akenshi bikozwe muri palasitike cyangwa udushanete bakaba babyambara mu kaboko, abandi bakabihananamo impano.

Amagare y'abana badanditse hanze, aho abayashaka baza babagana, bakayabagurisha, bakayajyanira abana babo, bakajya barayanyonga kugira barusheho kwizihirwa no kumererwa neza.

Inzu ifite umuryango umwe ufunguye ucururizwamo ibyuma by'ubwubatsi, harimo ibihombo, insinga z'amashanyarazi n'ibindi bitandukanye byifashishwa kugira ngo inyubako imere neza ibe ikomeye.

Inzu y'igihanga n'indi ya konoshi, ifite umuryango umwe n'amadirishya abiri y'ibirahure. Hariho igipangu cy'ibyuma, aho hanze hari hubakishijwe amapave kugi.

Butike yitwa Mahoro shopu, bacuruza ibintu bitandukanye harimo ama gaze, n'amaji n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hari na bafule icurangira abakiriya.

Igikoni kirimo umunyu, teremusi uducupa n'akabikira ko gusukisha mu kintu runaka, ibitunguru, n'amashashi. Byose byandagaye ku meza ari aho hantu.

Inzu y'igihanga yanditsweho sikolo ifite amabara y'umuhondo. Imbere haparitse imodoka itatu n'ibiti biri impande yayo n'ipoto, haruguru hakaba hariyo indi nzu ya mugongo wa tembo, ifite igipangu kimwe.

Icyapa gisa n'icyatsi kigaragaza aho karasike resito roge ikorera, Akaba ari ahantu abantu bacumbika iyo nijoro bwije. Hakaba hari ikindi cyapa kigaragaza ahantu rege ikorera ishami rya musanze buranshe yaho nk'ibiti bihakikije.

Abakobwa babiri n'abantu babiri bari kuri moto bari mu muhanda, wegereye impande y'umurongo w'inzu z'igihanga ziri mu mabara y'imyeru andi ajya gusa n'ubururu bwijimye, n'insinga z'amashanyarazi zivanayo umuriro kugira ngo ahantu harusheho kubona.

Inzu y'igihanga ifite imbuga yubakishijwe amapave, ifite na jaride imeze neza, hari icyapa kigaragaza ko aho abantu haba akabare, aho abantu batandukanye baza baje kuhanywera.

Icupa ry'umukebe ririmo umurama wa Onyo, ukaba ari ibitunguru byeraho ibijumba, bakaba babanza kuwusesa ,byamara kumera bakabona ubuwutera, izo ngemwe akaba ari zo bazajya gushyira mu murima.

Inyubako nka etaje ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo: iby'ubucuruzi, serivise nk'amabanke, byose bigamije gutuma abaturage bagira imibereho myiza. Abenshi baza babagana kugira ngo bahabwe ibyo bifuza.

Inzu bacururizamo amatelefone yo mu bwoko bwa samusanga. Harimo abantu benshi baje babagana kugira ngo na bo bagure, babashe koroherwa n'itumanaho hagati yabo n'abandi, hakaba harimo n'ibindi bintu bitandukanye n'amaposhete.

Inzu bacururizamo uduseke n'umugore uri kudoda ibitenge, umukobwa ucigatiye umwana n'undi umuhetse, hegetse ikirago ku gikuta.

Botike bacururizamo ibintu bitandukanye harimo inzoga, imigati, n'ibindi binyuranye nk'amasabune, yo aba afunze ari mu bikarito.

Inzu ya gihanga， ifite amabara y’umukara n'imyeru arimo imorongo， aho bakoreramo ibyuma bya elegitoronike， ndetse bakanabicuruza akaba ahitwa kwa Harera.

Iduka ricuruza inkweto, imyenda itandukanye harimo na sandare, amabogisa, n'udupira, rizwi ku izina rya Ngoga Fashoni, aho abantu baza babagana baje guhaha.

Inzu y'umukanishi aho harimo umwe ucururizamo ibyuma by'imodoka harimo amapine n'ibindi bitandukanye. Abafite imodoka zifite ibibazo aho baza babagana kugira ngo babafashe kuzibakorera.

Butike bacururizamo ibintu bitandukanye, ifite imiryango itatu n'ak'etajeri hanze batandikaho ibicuruzwa nk'inkweto, harimo imyunyu, amasabune, n'intebe hanze yo kwicaramo.

Butike bacuruzamo ibikoresho byo mu nzu harimo amatasi n'ibikosi, amarushi y'amafiriti, indiga, ibiyiko, amakanya n'udusekuru n'uduhini ndetse n'amabakure.

Inzu ya etaje ifite imbuga iriho amapave na moto iparitse hanze iriho kasike ebyiri, hari umusekirite uri mu muryango n'undi wicaye ,bakaba bashinzwe kureba ko nta bintu byibwe bisohowe cyangwa se nta bintu byakwangiriza abantu binjije.

Inzu bacururizamo ibyuma bya elegitoronike, aho abantu bafite ibibazo mu bikoresho byabo bazaba bagana bakabibakanikira kugira ubuzima bwabo burushaho kumera neza.

Iduka bacururizamo ibikoresho byo munzu, harimo intebe, ibitanda, utubati, n'ibindi bitandukanye, hirya hariho na bare yitwa Bararabasi ibihumbi bibiri bacururizamo inzoga.

Butiki bacururizamo imigati, amandazi n'utundi tuntu dutandukanye, n'amabase, amagi n'imifuka iba imanitse ku muryango. Harimo n'umugabo umwe uri gucuruza n'intebe iteretse ku muryango.

Ibihombo byifashishwa mu kuyobora amazi mu nzu no kuyakura hejuru ku mabati kugira ngo adasenya byinshi. Bakayaha umurongo agenderamo n'amajire yifashishwa n'abenjenyeri kugira ngo babashe kuba bagaragara ahantu hose bari.

Inzu z'ibihanga ziri hafi y'umuhanda, umwe ukoze undi wa kaburimbo, hariho insinga z'amashanyarazi zibaha umuriro wo kubonesha mu gihe cya nijoro no gucuranga, hariho n'icyapa cyerekanako hano hariho amacumbi.

Inzu ikoreramo farumasi ifunguye icuruza imiti, aho abantu barwaye indwara zitandukanye baza kushakira imiti, kugira ngo barebe ko bakira indwara barwaye.

Muri sanirama haliance, aho bantu baza kugura ibintu bitandukanye muri butike, harimo ibikoresho byo murugo byo kurya n'utundi dutandukanye, kugira ubuzima bwabo burusheho kumera neza.

Imodoka zatwegerane zizwiho gutwara abagenzi mu buryo bwa rusangi kenshi bagenda bacucitse, umugabo wambaye bodaboda uri kugenda ku ruhande rwa kaburimbo, inzu z'ibihanga zifashishwa mu gucuruza.

Inzu ebyiri z'igihanga imwe ifite amabara y'imyeru n'imiryango itatu, indi ifite umuryango umwe wari ufite amabara y'imihondo na bafule itanga umuziki, iri ku ipoto n'insinga z'amashanyarazi zijyana umuriro.

Inzu za manegisi zigaragara ko hariho icyapa cyanditsweho gesiti hawuzi cyerekana ko aho hantu hacumbikira abantu bo kuharara n'ijoro. Hari n'ipoto kumuhanda ryajyanayo amashanyarazi n'umugabo uhagaze ku muryango uri gusohoka mu gipangu.

Inzu ya etaje ifite igipangu, gifite ibyuma bis'icyatsi n'icyapa cyanditsweho, de peze wani isa nk'aho wagira ngo ni resitora wajya kuriramo, ndetse ukaba wanararamo.

Igipangu kirimo jaride imeze neza, harimo n'inzu gikoreramo sawuna, akaba ari ahantu ushobora kugenda bakagukorera imyitozo ngororamubiri, ukava yo waruhutse.

Inzu ifite urugi rusa icyatsi, ruriho n'ibirahuri n'amagiliyaje. Harimo ibyuma bitandukanye byifashishwa mu gukanika imodoka z'ubwoko butandukanye ,harimo nk'amajeki n'ibindi.

Akabari na resitora, aho abantu bashaka icyo kurya harimo inyama n'ibindi bitandukanye bashobora kuza kuhashaka ibiryo, hakaba harimo n'inzoga aho abashaka kuzinywa baza na bo bakazibona.

Umugabo wambaye ipantaro n'ishati n'inkweto z'umukara, wambaye ekuteri mumatwi wicaye iruhande rwa esikariye z'umweru, haruguru yaho hariho igare rya siporo.

Isoko rusange ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo n'amagaze, imyenda, amasabune, ibyuma by'ubwubatsi, n'abantu benshi baje babagana, kugira ngo buri muntu afate icyo akeneye, akijyane na we ajye kugikoresha.

Inzu yigihanga ifite imiryango ine isa n'icyatsi, amakaro hejuru, zikaba zifashishwa mu bucuruzi, imbuga ikaba irimo amapave, yegereye kaburimbo.

Butike bacuruzamo ibintu bitandukanye nk'amavoka, imikubuzo n'imikoropesho n'imiryango ifunguye hariho abantu baje kugura ibintu bitandukanye, na moto ziparitse iruhande rw'iyo butike.

Amahumbezi gesiti hawuzi aho abantu bashobora kuza gukoreramo ubukwe n'indi mihango igiye tandukanye bakabafasha kubona ikidara n'bundi buryo bwo kuhabadekorera kugira ngo habe hasa neza.

Hoteli yitwa Lavisini, aho abantu baza bayigana baje gufata icyo kurya ndetse n'amacumbi ku bo bwiriyeho, bakaba banahaganirira, ubuzima bukarushaho kugenda neza.

Alimantasiyo bacururizamo ibintu bitandukanye ,harimo ibinyobwa n'amaji, hakaba habonekamo n'ibyo kurya. Umuntu n'undi bashobora kuza kubifata, bityo bakarushaho kumererwa neza.

Kenkayore icuruza ibyuma bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi, harimo nk'amakaro, za rangete zifashishwa mu kubaka amaparafo, n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kubaka.

Abaririmbyi bambaye inifomu，bibumbiye hamwe bakora umurimo wo kuririmbira abandi mu rusengero， bakarushaho kubasusurutsa no gutanga ubutumwa binyuze mu ndirimbo.

Bank ya BK ishami rya Musanze, aho abantu batandukanye baza baje kubitsa no kubikuza no kwaka inguzanyo, kugira ngo barusheho kwiteza imbere mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Salo irimo ibikoresho byiza cyane byo mu nzu, harimo intebe ,ibitanda ,imisego ndetse n'amashusho amanitse ku gikuta n'amarido n'urugi rufunguye.

Icyapa kigaragaza aho comforo hoteli, ikorera ndetse na etage ya embasiporaza moteri, aho abantu bakeneye ibintu bitandukanye ibicuruzwa biribwa, basha kugurira ibyo byose badafite kugira na bo babitahane bajye kubikoresha mu buzima bwabo busanzwe.

Inzu zigezweho ziri ahantu hatuje hari jaride imeze neza, zubatswe mu buryo bugezweho ariko za gakondo, hejuru zikasakajwe ibyatsi zikaba zimeze nk'ikinyarwanda za kera.

Raparume hoteli, aho umuntu ashobora kugera agafata icyo kurya ashonje n'icyo kunywa, akaba yakwakamo icyumba akararamo, hakaba hari jaride irimo indabo zitandukanye, harimo imikindo n'ibindi.

Umusuderi uteruye icyuma ku rutugu. Wambaye lineti mu mutwe, n'abanyonzi babiri bari mu umuhanda. Umwe ari hejuru undi ari gusunika nka moto ya rifani ,byegereye hoteli yitwa shasitisiti hoteli. Ikaba izwiho gucumbikira abantu.

Muri hoteri aho abantu baza gukarabira amazi ariho n'isabune, mu ndorerwamo yo kwireberamo kugira ngo babone niba basa neza, niba ari ikizinga kiriho bacyikureho.

Isoko rifite ibisima aho bacururizamo ibiribwa n'ibindi bintu bitandukanye， abantu baturutse impande zose baje kuhagurira， ku manywa hakaba nta muririro uba urimo hatabona neza.

Isoko bacuruzamo ibikoresho byo mu nzu cyane cyane amambase, ibikombe, amasahani, indobo, harimo abagore babiri, umwe ari kwereka umukiriye, kugira ngo icyo yashimye akimuhe.

Iduka rikorera mu gikari, aho bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, hariho imiryango itatu ifunguye, abacuruzwamo amavuta yo guteka, amaji yo kunywa, n'ibindi bintu bitandukanye hakaba n'igare riparitse hanze.

Butike icuruza ibintu bya gaconsho harimo ifu y'igikoma, akenshi bikungahaye ku ntungamubiri, igizwe n'ibigori na'amasaka na kata, basiga m'umutwe w'abadamu n'andi mavuta yo kwisiga biri muri ka etageri.

Igisima bacurizagaho tungurusumu zitanditse n'izifunze mu mifungo na tangawize, n'inyanya hirya. Abantu baje kuzigura ku bwinshi, kugira ngo bajye kuziteka no kuzikoresha.

Supamaketi aho umuntu yinjiragamo agashaka ikintu aje kugura, yamara kugishima akagenda akareba umuntu urimo akacyishura, harimo umugabo umwe ushinzwe gufata ago mafaranga.

Abazunguzayi bari gudandariza karoti, inyanya, intoryi n'imiteja ziri mu mifuka aho abantu batandukanye baza baje kubahahira.

Isoko bacururizamo ibikoresho bitandukanye byo mu nzu, harimo ibikombe by'ibyuma n'ibya plasitike, amatirimusi, indobo, amabase, amasafuriya, imyuko n'ibindi bitandukanye.

Umukiriya uvuye guhaha ibinyomoro, na manderena, n'amaronji, wabishize mu itureyi, ibindi biri mu gikarito, kugira bimworohere kubitwara, abivanye aho yabiguriye, akabigeza aho abicururiza.

Isoko bacururizamo imboga, shufureri, inseda, ibihaza n'ibindi bitandukanye, aho abaguzi baza baje gushaka ibyo kujya guteka, kugira barusheho kwitongira amagara mazima.

Amafi bashyize mu mabase bavuye kuyaroba, kugira ngo bayatunganye babone uko bayohereza ku isuku, aho barayagurishiriza ku bandi bantu baza babagana, kugira ngo na bo bajye kuyateka.

Ingabo ziteretse ku bisemo hejuru mu isoko ricururizwamo ibiribwa, abantu batandukanye baza baje kugura, bagasangamo abacuruzi bakabaha ibyo bakeneye, kugira ngo bajye guteka.

Butike icururizagamo ibintu bitandukanye, ibikoresho byo mu rugo no mu gikoni harimo utuyunguruzo, amaga n'ibikosi n'ibindi bintu byifashishwa mu rugo.

Iduka bacururizamo amatelefoni cyane cyane aya Tekinoe. Akaba yifashishwa mu itumanaho ry'abantu n'abandi, ndetse bakanazamurira Igihugu inyungu, biturutse mu misoro itangwa muri ubwo bucuruzi.

Isoko riciriritse bakorera hanze，aho batandika utumeza n'intebe， abantu bazishaka bakaza kuzigura，hariho n'abacuruza inkoko， hakaba hari n'akazu ka emutiyene aho bashobora kubikuriza amafaranga.

Isoko bacururizamo ibikoresho, cyane cyane ibyo mu nzu; harimo ibikombe, amapura, n’utundi dusahane, harimo n’utuyurunguruzo n’ibindi byinshi nk’imikoropesho, aho abantu benshi baza babagana.

Butike irimo ameza n'intebe na kontwari icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo amagi, amavuta, ndetse n'abashaka inzoga bakaba baza bakanywa.

Isoko bacururizagamo ibiribwa hari n'imifuka zandagaye ahantu hose ikindi bikorerwa ahantu hatabonaga neza harimo n'abacuruzi n'abaguzi baje kugura ibintu bitandukanye.

Isoko rusange bacururizamo ibintu by'imboga, harimo ibitunguru bya tungurusumu, ibya onyo, za pawuvro, na pawulo n'ibindi bitandukanye nk'insenda, n'ibindi biri mu kadobo aho abantu batandukanye baza kubigura.

Isoko bacururizamo imbuto harimo amavoka, ipapayi n'ibinyomoro by'ibizungu n'ibinyarwanda. Imyembe, imineke na wotameroni n'ibindi bitandukanye muri byose byifashishwa mu kurinda indwara.

Etajeri, irimo akadomoro ka ji kari mu igikarito, gateretsemo, n'iyo hejuru iriho twisite ibiri, n'akandi kari ku ruhande gatandukanye nazo, bikaba ari ibinyobwa cyane cyane bimara inyota.

Isoko riciriritse bacururizamo imyenda cyane cyane y'abagore harimwo:amakariso, amasutiye bacururiza kuri shitingi, aba bishaka baturutse imihanda yose baza gucaguramo bakagura.

Isoko bacururizamo inkweto za caguwa zitanditse kuri shitingi, abantu baturutse ahantu hatandukanye baza baje kugura, buri muntu akareba izo ashimye akazishyura.

Inzu imeze nkiy' ubucuruzi yubabakijijwe amabati mu mpande no hejuru, aho abamotari, abanyonzi bari kujayo bagiye guhaha byababeshaho mu minsi yabo y'ahazaza.